Iyi foto iragaragaza ibikoresho bitandukanye byo mu ishuri, harimo amarati, ndetse harimo n'amakaramu y'ibiti, ndetse na compa, izo abanyeshuri bakoresha bari gushushanya ibishushanyo bitandukanye.